Kuvoma amazi, amazi yavomwe akoreshwa mu ngo ibikorwa bitandukanye harimo gukaraba, guteka no gukora amasuku mu bice bitandukanye.

Gusuzumwa kw'abarwayi, ni igikorwa gikorwa umuganga ashaka indwara mu mubiri, hakabamo uburyo butandukanye, gufatwa amaraso cyangwa gutanga ibindi bizami bitandukanye.

Gukoresha amazi adasukuye, bishobora gutera indwara, z'umwanda ziterwa n'isuku nke iba iri muri ayo mazi, zimwe mu ndwara: inzoka zo mu nda, ndetse na macinya, hamwe n'izindi.

Kuvoma amazi, igikorwa gikorwa cyo gushaka amazi, amazi akoreshwa mu ngo, mu bintu bitandukanye, harimo guteka, gusukura n'ibindi.

Abaganga bafasha abarwayi mu kuvurwa, haba gusuzumwa, kwitabwaho harimo guhabwa imiti ndetse no gukurikiranwa kugeza umurwayi akize indwara bamusanganye.

Gusukura intoki, ni igikorwa cyo gukaraba ukoresheje amazi meza, ndetse n'isabune, bigatuma wirinda, umwanda ku ntoki.

Umugezi w'amazi, ni amazi atangwa mu misozi agakoreshwa n'abaturage, aho avomwa akajyanwa mu ngo, agakoreshwa mu bikorwa bitandukanye, guteka, mu masuku n'ibindi.

Ubujyanama ku myumvire, ni igikorwa gikorwa mu gihe uwabihuguriwe atanga inama ndetse n'imirongo ngenderwaho ku wagize ikibazo cy'ihungabana cyangwa ikindi kibazo cy'imitekerereze.

Ubuvuzi bw'amenyo, bwita cyane cyane mu gushishikariza abantu gukoresha umuti wabugenewe mu gusukura amenyo ndetse no kuyasukura igihe cyabugenewe, ni ukuvuga kenshi gashoboka mugitondo ndetse na nijoro by'umwihariko.

Gusukura amenyo ni igikorwa gikorwa hifashishijwe uburaso ndetse n'umuti w'amenyo, bigakorwa buri munsi mu gitondo na nimugoroba.

Umukino witwa dame ni umukino ukoreshwa n'abawukina mu gutyaza ubwenge no kuruhuka mu mutwe, ukinwa n'abakinnyi babiri.

Abantu bageze mu zabukuru bakenerwa kwitabwaho mu buryo butandukanye, harimo gufata imiti no gukora imyitozo ngororamubiri mu buryo butandukanye.

Kubaga umurwayi ni ubuvuzi bukorwa habagwa umurwayi mu gihe agiye gushyirwamo insimburangingo cyangwa kureba ikibazo cy'imbere mu mubiri.

Ibitaro ni inyubako ikorerwamo n'abaganga mu gutanga ubufasha ku barwayi, harimo kubasuzuma, kubaha imiti no kubitaho n'ibindi.

Ububiko bw'imiti, ni ahantu habugenewe habikwa imiti ikagenda ishyirwa mu byiciro bitewe n'icyo iyo miti ivura, usanga akenshi ibarizwa mu bitaro cyangwa mu bikorera ku giti cyabo.

Mu bitaro habamo ibikoresho bitandukanye bikoreshwa n'abaganga, harimo ibitanda, bikoreshwa mu kuryamishaho abarwayi mu gihe babafata ibizami bisaba kuryama.

Ibitaro, inyubako ikorerwamo n'abaganga mu gutanga ubuvuzi butandukanye. Hakabamo gusuzumwa ndetse no gutanga imiti no kwitabwaho kw'abarwayi.

Ivuriro ni inyubako isuzumirwamo igatangirwamo imiti, igakorerwamo n'ubundi bufasha buhabwa abarwayi, bikorwa n'abaganga mu kazi kabo ka buri munsi.

Gupima ibiro by'abana ni kimwe mu bikorwa bikorerwa mu nyubako y'ibitaro cyangwa kwa muganga, ibi bikorwa bagira ngo harebwe imikurire y'abana.

Ibitaro, ni inyubako ikorerwamo n'abaganga mu kwita ku barwayi, kubasuzuma, ndetse no kubaha imiti y'indwara basanze bafite.

Inzu y'ababyeyi ni inyubako ikoreshwa n'abaganga mu kwita ku babyeyi babyaye ndetse no kwita ku bana babo mu gihe batarasezererwa muri ibyo bitaro.

Ibitaro by'abarwayi, mu bitaro habamo inyubako zitandukanye: harimo izikoreshwa n'abaganga, abaforomo ndetse n'ababyaza.

Ibitaro byita ku barwayi babana n'ubumuga bwo mu mutwe, bifasha cyane abagizweho ingaruka n'ibikorwa bitandukanye, bishobora kuba ibiyobyabwenge cyangwa indi miti itandukanye, bigatera ubumuga bwo mu mutwe.

Ikigo nderabuzima, ni inyubako ikorerwamo ubuvuzi butangwa mu byiciro by'abantu bitandukanye, hifashishwa mu gutanga ubufasha bw'ibanze ku barwayi, gusuzuma indwara no guhabwa imiti.

Inzu y'imyitozo ngororamubiri, ikorerwamo imyitozo ngororamubiri yo kunanura imikaya haba ku bana ndetse n'abakuze.

Ibikoresho by'ibanze mu buvuzi ku bakora imyitozo ngororamubiri bibamo ibitambaro bizirika, imiti yomora, imiti ivura ibikomere n'ibindi bitandukanye.

Nyuma yo gukora imyitozo ngororamubiri ni byiza kunywa amazi meza kandi asukuye, bifasha umubiri kongera gusubirana imbaraga ndetse no kubona amazi watakaje.

Umukino wo gusiganwa ku maguru, ni umukino ukorwa abantu birukanka mu ntera zitandukanye, muri kilometero imwe, kilometero ebyiri, kilometero eshanu cyangwa izindi zose bitewe n'uko byateguwe.

Ibikoresho byifashishwa mu myitozo ngororamubiri, bikoreshwa cyane cyane mu kuringaniza no gushyira ku murongo ibice bimwe na bimwe by'umubiri.

Isabune ikoreshwa mu mutwe, ikungahaye cyane ku bintu bigiye bitandukanye harimo igikakarubamba, avoka ndetse n'ibindi. Isabune isukura mu mutwe irinda indwara zirimo imvuvu n'ibihushi.

Imiti ikoreshwa mu kuvura indwara zitandukanye, harimo iz'inyuma ku mubiri, iz'imbere mu mubiri bigatuma bifata igihe gito kugira ngo umubiri usubirane imbaraga.

Imiti gakondo ikoreshwa mu buryo butandukanye bitewe n'uko yatunganijwe, ndetse ikanabikwa mu buryo butandukanye. Hari ikorwa nk'ifu, hari ikorwa ari mibisi.

Imiti gakondo ni imiti irimo igikakarubamba, umubirizi, ibumba, ndetse n'ibindi. Ibasha kuboneka ahantu hagiye hatandukanye, bikiza indwara zaba iz'imbere mu mubiri ndetse n'inyuma ku mubiri.

Imiti gakondo ikoreshwa n'abantu bose, yoroshye kuboneka, itanga ibisubizo mu gihe gito cyane, ikoreshwa kandi ku bantu bose, abana, abakuru, ndetse n'abato, iboneka cyane kurusha indi yose.

Imiti gakondo ibitswe mu icupa, irimo ibumba, igisura, umubirizi ni myiza ku muntu uyifata, ikiza indwara zaba iz'imbere mu mubiri ndetse n'inyuma mu mubiri.

Imiti gakondo igizwe n'ibumba, umubirizi, igikakarubamba n'ibindi bitandukanye iboneka cyane cyane byoroshye kandi igahenduka.